Gahunda z'ubuzima zikomeza kongerwa mu gihugu cyacu kugira ngo bakomeze kwagura imibereho myiza y'abaturage, bityo abaturage bakagira ubuzima buzira umuze.

Leta usanga iteza imbere ubuzima bufite ireme, aho igenda ihugura abantu batandukanye kugira ngo ubuzima bukomeze kwitabwaho.

Ubuvuzi n'ikintu cy'ibanze kigomba kwitabwaho mu gihugu, kugira ngo ubuzima bw'abaturage bacyo bukomeze gusagamba, ndetse n'imibereho myiza yabo ikomeze gutera imbere.

Kugira ubuzima bwiza, ni ikintu k'ingenzi buri wese agomba gukora kugira ngo ngo umuntu abeho neza ndetse atungane.

Ubuzima buzira umuze ni ikintu cy'ingenzi kigomba kwitabwaho mu gihugu kugira ngo abaturage bakomeze kugira imibereho myiza mu buzima bwabo bwa buri munsi, bityo rero bikabafasha kugira ubuzima bwiza.

Ubuzima bwo mu mutwe, ni ikintu cy'ingenzi kigomba kwitabwaho, aho usanga ibigo bishinzwe kwita ku buzima bwo mu mutwe, bigenda byongerwa mu turere dutandukanye tw'igihugu.

Urubyiruko rugomba kwitabwaho, mu bijyanye n'ubuvuzi kugira ngo igihugu gikomeze kubaka iterambere rirambye kubera ko urubyiruko niyo nkingi y'iterambere rirambye.

Kwita ku rubyiruko, ni ikintu cy'ingenzi kubera ko, urubyiruko rufite ubuzima bwiza, rwitaweho, biha umusanzu ukomeye ku gihugu cyacu.

Ibigonderabuzima ni byiza ko twabyitaho kugira ngo imibereho yacu izakomeze kwitabwaho mu buryo butandukanye kugira ngo ubuzima bwacu bugende bumera neza cyane .

Ibigo bishinzwe ubuzima mu Rwanda byariyongereye, binyuze muri gahunda zitandukanye za guverinoma, aho usanga yarateje imbere ibijyanye n'ubuvuzi.

Ibigo bishinzwe ibijyanye n'ubuzima, bikomeje kongerwa mu gihugu cyacu, kugira ngo imibereho myiza y'abaturage ikomeze kwitabwaho bityo bagire ubuzima bwiza.

Inyubako z'ubuvuzi usanga ari imwe mu nkingi zigomba kwitabwaho, aho leta igenda yubaka ibitaro bitandukanye mu turere dutandukanye tw'igihugu kugira ngo abaturage bakomeze kwitabwaho mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Siporo ni ingenzi ku buzima bw'abantu bwa buri munsi, aho usanga ibigo bitandukanye biteza imbere gukora siporo kugira ngo imibereho y'abakozi babyo ikomeze kuba myiza.

Siporo ni ikintu cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi kugira ngo tugire imibereho myiza y'abaturage ndetse n'ahandi hantu hose duherereye.

Ibigo bishinzwe ubuzima, usanga bidashishikariza abantu benshi, gukoresha imiti ya kinyarwanda, imiti ya gakondo, kugira ngo, bakomeze kwirinda indwara zitandukanye.

Mu gihugu cyacu, leta ntishishikariza abaturage gukoresha imiti gakondo, aho usanga ibashishikariza gukoresha ibitaro bitandukanye kugira ngo ubuzima bwabo bube bwiza.

Hagomba kwitabwaho ibidukikije kuko ariyo soko y'ibinyabuzima bitandukanye harimo n'ibiti bitanga imiti gakondo ikoreshwa mu buzima bwa buri munsi.

Gukoresha uburyo bwa gakondo kugira ngo umuntu yivure usanga atari byiza kubera ko bigira ingaruka zitandukanye, aho umuntu yivura rimwe na rimwe atazi n'ibyo arwaye.